Aha ni ahantu polisi y'igihugu y'u Rwanda, igenzurira ko ibinyabiziga bitandukanye bitangiritse, kugira ngo bigende mu muhanda bizeye ko ari bizima bye guteza impanuka zitandukanye. Ndi kuhabona tagisi ntoya, nkahabona n'inyuma n'imodoka nini isanzwe itwara abagenzi, ndetse n'abapolisi barimo kugenzura ubuziranenge bw'ibi binyabiziga.

Aba ni abantu benshi. Uko bigaragara, barimo kwiga uburyo bwo gukoresha kizimyamwoto mu kuzimya umuriro. Birashoboka yuko baba bari mu mahugurwa, bakaba byabaye ngombwa yuko bifashisha uyu mupolisi kugira ngo abigishe uburyo bwo gukoresha kizimyamwoto bazimya umuriro. Ndi kuhabona ibikoresho bitandukanye, harimo gaze. Birashoboka yuko barayifashisha batsa umuriro, hanyuma bakawuzimya bakoresheje kizimyamwoto.

Iyi ni kamera igenzura umuvuduko w'ibinyabiziga bateretse ku muhanda abapolisi, kugira ngo ize gucunga abantu bari gutwara ibinyabiziga byabo ku muvuduko uri hejuru cyane. Nirangiza ibafotore, ibandikire ibihano, ibace amande atandukanye, bitewe n'uko barengeje umuvuduko.

Aha ni hantu bagenzurira ubuziranenge bw'ibinyabiziga, harimo abapolisi hakaba hariho n'ikinyabiziga, by'umwihariko bigaragara ko bagiye kugenzura ubuziranenge, basanga ari kizima bakagiha uruhushya rwo kwemererwa kugenda mu gihe runaka, aba bapolisi bakaba bari gutanga iyi serivisi yo gupima ibinyabiziga.

Aba ni abantu batandukanye bitabiriye inama. Nkurikije uko mbabona bakurikiye ibyo umuyobozi arimo kubabwira. Barimo abagize inzego z'umutekano bo mu rwego rwa Dasso. Gusa igitangaje ni uko mbona bambaye impuzankano z'icyatsi bakaba banicaye ku ntebe ziteguyeho ibitambaro by'icyatsi, harimo n'abaturage batandukanye.

Iyi ni inyubako y'inzu mberabyombi, harimo abantu benshi bicaye uko mbibona bakurikiye inama, nkurikije uko ndeba bose bareba imbere, aba bakaba bari mu nama bateze amatwi y'iby'umuyobozi w'iyi nama arimo kuvuga, ndi kubona inzego z'umutekano ndi kuhabona dasso n'abandi baturage bagiye batandukanye.

Uyu ni umupolisi uri gutanga ikiganiro ku baturage bicaye mu ntebe ,,mu nzu mberabyombi. Uko mbibona uyu mupolisi akaba afite amapeti menshi cyane . birashoboka yuko yaba akomeye cyane ,akaba ari mu nzego z'ubuyobozi zishinzwe umutekano.

Iki ni icyuma kiri ahantu hejuru mu rukuta, cy’ikoranabuhanga. Ndi kuhabona imyotsi iri kuva muri iki cyuma. Byashoboka y’uko hagiye kuba impanuka y’ubushye. Ndi kuhabona amatara ku ruhande, bigaragara y’uko iki cyuma gikoreshwa n’umuriro w’amashanyarazi.

Iyi ni kamera yo kumuhanda abantu bakunda kuyita nko ni sofiya, ifotora amamodoka afite umuvuduko mwinshi cyane yarangiza ikayandikira amande yo kuba ari kwihuta cyane ari kurenza umuvuduko urenze ukenewe

Iyi ni indege ya polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Ifasha abapolisi mu kubatoza imyitozo itandukanye. Hariho umupolisi umwe uhetse imbunda, ari kumanukira ku mugozi. Iyi ni imyitozo ihabwa abapolisi kugira ngo bazamenye uburyo bwo gutabara, igihe habaye impamvu zihungabanya umutekano.

Aba ni abapolisi benshi barimo guhabwa amabwiriza y'akazi n'umuyobozi wabo akaba abahagaze imbere nabo bakaba bamuzengurutse ndikubona harimo abafashe imbunda hakaba harimo n'abandi badafashe imbunda mu by'ukuri barimo guhabwa amabwiriza mbere yo gutangira akazi kabo k' mutekano.

Aba bantu bicaye muri iyi nzu mberabyombi bari mu mahugurwa, bafite amazi imbere yabo yo kunywa kugira ngo bataza kuruha. Ikigaragara cyo bose bakurikiye bitewe n'uko isomo barimo kwiga bariryohewe, bose barashaka kugira ngo, baze gutaha bagize ikintu bunguka mu bumenyi bwabo.

Aha ni mu nama iyobowe n'abayobozi bakomeye cyane. Ndikubonamo ab'inzego z'umutekano, barimo abashinzwe ubugenzacyaha, barimo abakuriye ishami rya polisi, harimo abasirikare ndetse n'abayobozi batandukanye, harimo umugore uri imbere urimo kuvuga, ndetse harimo n'izindi nzego nyinshi zitandukanye zitabiriye iyi nama.

Iki ni ikivunge cy'abantu benshi bitabiriye iyi nama. Harimo inzego zitandukanye zitabiriye iyi nama. Urabona ko harimo amacupa y'amazi imbere y'uyu mubyeyi wicaye muri iyi ntebe nziza y'umukara, bigaragara ko na we ashobora kuba ari mu bayobozi bayoboye iyi nama.

Aha ni ahantu habereye amahugurwa ku bintu bitandukanye barangije, abayitabiriye babagenera impamyabushobozi z'uko barangije aya mahugurwa, aya mahema atatsemo ibirango by'idarapo ry'u Rwanda, harimo abantu batandukanye, barimo abaturage basanzwe bitabiriye amahugurwa, n'abashinzwe umutekano abasirikare ndetse n'abo ku rwego rwa daso.

Aha ni kwa muganga aho hariho abarwayi, bari baje gushaka serivisi zitandukanye hano kwa muganga, uyu nguyu ubahagaze imbere akaba ari umuganga, urimo kubaha ikiganiro n'inyigisho zitangwa n'abaganga, b'abigisha indwara ndetse n'ubundi buryo butandukanye, bakwifata mu rwego rwo kwirinda indwara ndetse no mu rwego rwo kugira ngo serivisi bahabwa zikomeze kugira ubuziranenge.

Aha ni muri salo y'urugo rumwe itatsemo ishusho ya Yezu ikaba ifite parafo nziza, isizemo n'amarangi y'umweru, aba bantu bakaba bari basuranye, hanyuma barahoberana bitewe nuko bari bari kuganira ikigaragara ni uko, uru rugo bari bishimiranye, bitewe n'uko bari bari no gusangira ibinyobwa bisembuye.

Aba ni abantu bari mu mahugurwa yateguwe n'ikigo runaka, bari guhugurwa ku kazi basanzwe bakora urabona yuko bashishikaye, umubyeyi uri imbere wambaye amadarubindi arashishikaye . Hariho undi mubyeyi uri kwandika ibyo arimo kumva ,ndetse imbere yabo hateretse amazi yo kugira ngo banywe ,hanyuma ubwonko bwabo ntibunanirwe.

Aba ni abantu bari mu muganda, witabiriwe n'abayobozi batandukanye kandi bakomeye. Ndi kuhabona abaturage, abayobozi bambaye impuzankano ndetse n'ingofero. Birashoboka yuko barimo kwitegura kuhatangiza inyubako izagirira abantu benshi akamaro.

Aba ni abagore bageze muri batandatu, bicaye bazengurutse ameza y’igitị, bakaba bicaye ku dupalasitike, bari mu kanama. Bigaragara yuko bose bafashe impapuro bari gusoma ingingo z’ingenzi zo kuri iyi nama. Bose bakaba barimo gutanga ibitekerezo kugira ngo ibyo bashaka babigereho.

Aha ni ahantu bacururiza ibikoresho byo mu gikoni bikoze mu biti. Ndikuhabonamo imyuko, nkahabona indosho, abandi bazita utumamiyo. Imyuko bayikoresha umutsima, naho utu tumamiyo badukoresha bari kwarura isosi.

Iki ni ikibindi kibumbwa mu ibumba. Nkurikije uko mbona iki kibindi ntabwo kirakoreshwa, baracyagitunganya neza, baracyagisiga amarangi, iki kibindi kikaba kibika amazi bashobora kugitekamo bashobora kukibikamo inzoga.

Uyu ni umwami mutara wa gatatu rudahigwa, akaba yarayoboye u Rwanda mu gihe cya kera, yabaye intwari y'u Rwanda bitewe n'ibikorwa yakoze byo kwitangira igihugu, ahagarika ubukoloni, aharanira ubutabera, ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Akaba aribyo byamugize intwari y'igihugu.

Iki ni ikibindi gishinzemo imiheha igeze muri ine, gitwikirije amakoma yumye iki kibindi kikaba gishobora kuba kirimo ikigage, kugira ngo abagabo bazaze basomeho ari bane. Ibi byakorwaga mu muco wa kinyarwanda, abantu bari mu mihango itandukanye bari mu bukwe, barimo gushyingira umugeni.

Iri ni ishyo ry'inyambo nyinshi cyane zigeze kure cyane, zikaba zigiye ahantu mu rundi rwuri, ziri ahantu mu ishyamba bigaragara yuko harimo ubwatsi butoshye, bikaba ariyo mpamvu izi nka zose bigaragara ko zimeze neza zafashwe neza.

Ndi kubona abana b'abakobwa benshi bakiri batoya, barimo kwigishwa ibintu bijyanye n'umuco wa kinyarwanda, ndi kuhabona ibikoresho bitandukanye ndi kuhabona inkoko, nkahabona inkongoro nkahabona uruho, indobo nkabona abantu barimo kuboha ibirago, nkabona n'inyuma n'ingoma, bishoboka ko iri ryaba ari itorero rya kinyarwanda.

Iyi ni inkongoro bateye ibiremo ahantu yasadutse biragaragara yuko ikuze cyane .Inkongoro ikoreshwa n'abashumba iyo bari gukama inka kugira ngo ibafashe kujyamo amata ,kandi inkongoro ikaba iryoshya amata cyane.

Uyu ni umuvure ugeretseho agatanda. Uburyo bikoreshwamo, uyu muvure bawukoresha bari gukama inzoga cyangwa se bari gukama umutobe, barangiza bagakamurira kuri aka gatanda, kugira ngo ibikatsi baze kubijugunya cyangwa se bya bindi by'imyanda baze kubimena, kugira ngo basigarane umutobe mwiza cyane wo gukoramo inzoga.

Iyi ni iningiri ikoze mu ihembe ry'inka, ikaba ibambishije uruhu, ikaba ifite n'agaheto kayiryamye iruhande. Iningiri ni igikoresho cy'igicurangisho cy'umuco wa kinyarwanda. Iningiri ubu abantu benshi bakaba batazi kuyicuranga.

Uru ni uruboga bita isogi, uru ruboga rukaba ruvura indwara nyinshi cyane, abakecuru nibo barukunda n'abasaza bitewe n'uko uru ruboga rw'isogi rurasharira cyane ikaba ari yo mpamvu abantu bakiri batoya batarukunda. Bivugwa yuko uru ruboga ruryoha ariko rukanavura indwara nyinshi cyane.

Aba ni abami ba kera bari bicaye bashagawe n'abaturage babo, ubanza bari bari mu birori nk'ubukwe cyangwa se n'ibindi birori bitandukanye. Ndi kubona abantu benshi basokoje amasunzu, bakenyeye, bigaragara ko bari bari mu birori bitandukanye, wasanga wenda bari bari no mu muganura.

Uyu ni umukecuru ufite imvi, ariko wasokoje neza cyane, akambara urugori, akambara inigi mu ijosi, akambara imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, arakenyeye, bigaragara y'uko yishimye. Birashoboka ko yari agiye kwitegura kujya ahantu mu birori, cyangwa se akaba yari agiye no gusenga.

Aba n'ababyinnyi b'injyana za gakondo babyina mu itorero ndi kubona intore zaciye umugara ndi kubona n'abakobwa barimo kubyina injyana yo gushayaya ndi kuhabona n'abandi bantu bari kubakomera ingoma ndetse n'abandi bantu bari kubacurira amashyi.

Aha ni ahantu bacururiza ibirago. Ndi kuhabona ibirago byinshi cyane, ndetse n’ababyeyi baje gucuruza ibi birago. Harimo n’abandi baje kwigurira ibirago. Ibirago babikoreshaga kera babiryamaho, ubu ngubu abenshi bakaba bakoresha ibirago babyanikaho imyaka igiye itandukanye.

Izi ni inka z'inyambo ziteze amahembe neza, zitatse ndetse zambaye amaherena, inka imwe muri zo yaduteye ikibuno bitewe n'uko hagaragara umurizo ndetse n'ijanja ryayo, izi nka rero zikaba ziri muri bimwe mu bigize umuryango wa kinyarwanda.

Ibi ni ibikoresho byo mu gikoni bibaje mu giti. Ndi kuhabona umwuko, nkahabona indusho ndetse n'agasekuro, biteretse ahantu ku kameza. Ibi bikoresho byakoreshwaga mu gihe cya kera n'abakurambere, amarushe n'ibindi byombo bikoze mu byuma bitaraza.

Aba ni abagabo ndetse n’umugore umwe, barimo kwitoza kurashisha umuheto n’umwambi. Iki kikaba ari igikoresho cy’intambara, ariko mu buryo bwa kera, mu mateka, abantu imbunda zitaraza, barashishaga imiheto, barimo guhiga ndetse bari kurwanya n’abanzi b’igihugu.

Uyu mugabo ari gusimbuka urukiramende ndabonako yarurebereye aritegura kugwa hasi, hariho abandi bantu barimo kumufana n'abandi bantu inyuma ye biteguye gusimbuka uru rukiramende, nyuma y'uko nawe amaze gusimbuka.

Uyu muntu afashe indosho iriho ibiryo byafasheho. Iyi ndosho bakaba barayikoreshaga kera cyane bitewe n'uko itagikunze kuboneka ahantu indosho bayikoreshaga bari kwarura yasimbuwe n'amarushe ubungubu indosho ntizigikunda kuboneka cyane.

Uyu ni umugabo wasokoje amasunzu, akaba ari kunywa n'inkono y'itabi, akaba yambaye n'ibinigi mu ijosi, ndetse afite n'umukenyero n'umwitero, Bikaba bigaragara yuko yambaye neza. Uyu akaba ari umwe mu bakurambere b'igihugu cy'u Rwanda ukomeye cyane.

Aka ni agakezo bifashisha bari kwahira ubwatsi. Akagangaka, abashumba bakaba bagakoresha, bakajya kwahira ubwatsi, bakagakoresha bari kwahira urubingo, ibigori n'ibindi bintu bitandukanye baragaburira amatungo yabo. Aka gakezo nanone bakifashisha mu misango yo gusaba.

Aha ni ahantu mu rugo bari gutegura kotsa runonko. Ndi kuhabona ibinombe bagererekanya neza barotsamo urunonko. Nkabona bacanyemo umuriro uri kwaka. Ni ikibatsi cy'umuriro hariho n'ibijumba baraza kokesha iyi runonko. Inyuma harimo uruzitiro rukoze mu bikenyeri hakaba hariho n'ibindi bikoresho bitandukanye, bikaba byarakorwaga mu muco wa kera.

Aba ni ababyinnyi b'injyana za kinyarwanda bakaba bambaye ibihura, ibingibi mubona mu mutwe wabo bakaba bakunze kubyina gutya barimo kwakira abashyitsi. Uyu ukaba ari umuco wa kinyarwanda nyuma yaho ndahabona inzu ya miviringo.

Aba ni abazungu babiri barimo umuzungu w'umugabo umwe n'umuzungu w'umugore umwe ndetse n'umunyarwandakazi, bose uko ari batatu bakaba bari gusoma ku kibindi kirimo inzoga cyangwa se igipende. Ariko ibi bikaba byarakorwaga mu muco nyarwanda, abantu bari gusabana mu birori bitandukanye.

Uyu ni umubyeyi mukuru wicaye hasi akaba ari gukora two mu rugo, ndikuhabona ibintu bitandukanye, hariho ikibindi kinini kiriho urujyo, hariho n'akabindi gatoya kari ku rujyo, hariho n'ibintu bikoze mu bisika, akaba yambaye agapira k'ubururu ndetse yitandiye n'igitambaro.

Utu ni udukoko duto two gutaka ku nkuta twakozwe n'abantu. Dufite amabara meza cyane ndikubona harimo amabara y'umukara, amabara y'umutuku, amabara y'umweru, amabara y'umuhondo. Dutatse neza cyane bakaba baradushyize ku isoko mu imurikagurisha kugira ngo abantu bazaze kutugura.

Iyi ni ingoma ijishe ku cyuma cy'idirishya, ahantu hatatse neza. Impamvu mvuze ngo ijishe ni uko mu kinyarwanda batavuga ngo iramanitse, ahubwo bakavuga ko ijishe ni ukuvuga ko iyi ngoma abantu bakunze kuyikoresha bari kubyina, iki kikaba ari kimwe mu bikoresho by'umuziki bya gakondo.

Uyu ni umubyeyi ufashe igisabo akaba yicaye hasi arimo gucunda amata, yicaye ku kirago akaba arimo gucunda akoresheje igisabo, bakaba babikora kugira ngo amata ahinduke amavuta, mu muco wa kinyarwanda bakunda kurya amavuta y'inka.

Aba ni ababyeyi bari muri korali yo muri kiliziya gatulika, bitewe n'uko bose bambaye amashapule, barimo kuririmba indirimbo zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana, aha ngaha bari bari mu misa bishimiye cyane ibyo Imana yabakoreye, barimo no kwiyambaza Imana kugira ngo ikomeze ibarinde.

Izi ni inka z’inyambo ziteze amahembe neza. Biragaragara ko bishoboka ko bari mu imurikagurisha, bitewe n’uko inyuma hari yo ibirango bitandukanye. Ndi kubona n’indangururamajwi n’abantu benshi baje kwihera ijisho izi nyambo. Inyambo rero zikaba ziri mu bintu bimwe mu bigize umuco wa Kinyarwanda.

Ibi ni ibihaza by'ibicuma bahinze neza ku buryo bwa kijyambere ku ruzitiro rw'imikwege, ibi bihaza birimo ibicuma bibiri ,ibicuma byakuze neza bimeze neza bifite iminwa myiza, ndetse ibi bihaza bakaba bitegura kubisarura kugira ngo bakoremo uducuma ,uyu ni umushinga ubyara amafaranga menshi cyane.

Iyi ni isekuru ndetse n'umuhini byombi bibajwe mu giti, bikaba ari ibikoresho bya kinyarwanda byo muco wa kinyarwanda, bikaba bikoreshwa imirimo itandukanye yo mu rugo ushobora kubisekurisha isombe, ushobora kubisekurisha imbuto zigiye zitandukanye, ndetse n'akandi kamaro gatandukanye karimo no kuba wayikoresha usekura imiti ya kinyarwanda.

Uyu ni umuntu urimo guhonda garaviye. Nubwo mvuze ngo ni umuntu haragaragara intoki, ariko uyu muntu nkurikije uko mbibona akaba ashobora kuba ari umwana. Garaviye bazikoresha bari kubaka inzu mu gihe cyo gupavoma, kugira ngo inzu izabe ikomeye, kugira ngo sima yayo izabe ikomeye.

Aba ni abantu ba kera bari bahetse umugeni mu ngobyi ya kinyarwanda, ibi bikaba byarakorwaga kera cyane mu mateka y'u Rwanda, bagafata umugeni bakamushyira mu ngobyi, barangiza bakamujyana mu rugo yasabwemo kugira ngo agereyo atananiwe.

Iri ni iziko rya kinyarwanda, bacanishije inkwi barangije baterekaho agakono batsimbye ibishyimbo, cyangwa se n'impungure. Bakunze guteka gutya ku mashyiga, ariko iyingiyi yo biragaragara ko ishobora kuba ari rondereza. Gucanisha gutya n'inkwi bikunze kuba ahantu mu cyaro.

Aba ni abantu bicaye hasi bazengurutse ikibindi, bitegura gusangira inzoga iri muri iki kibindi. Ibi byakorwaga na kera n'abami, kugira ngo bishime, cyangwa se n'abandi bagabo, iyo umwe muri bo yabaga yahishije, yarangiza akabatumira kugira ngo basangire umuganura.

Aba ni abagore benshi bari kwitoza kubyina imbyino za kinyarwanda, biragaragara yuko bose bishimye, aba bagore rero barimo abagore b'abirabura ndetse n'abagore b'abazungu, bashishikajwe no kumenya uburyo babyina imbyino za kinyarwanda, bose barishimye urabona ko bashishikajwe no kumenya kubyina, uburyo bwa kinyarwanda.

Uyu ni umutiba bagitse ahantu mu giti hejuru, kugira ngo hajyemo inzuki. Izi nzuki zibone ubuki, ubwo buki babuhakure babushyire ku isoko. Ubuki bukaba bugira akamaro kenshi cyane, karimo kuvura indwara zitandukanye zirimo indwara z’ubuhumekero.

Aba n'abakobwa barimo gutozwa ibintu bitandukanye, bijyanye n'umuco wa kinyarwanda, bambaye ibintu bijyanye n'umuco, barimo kuboha ibirago, barimo kuboha uduseke, inyuma hakaba hariho n'abasore baje kwihera ijisho, ibyo ab'abakobwa barimo kuboha.

Aba ni abantu b'igitsina gore bari mu bukwe, ndi kuhabona umugeni n'abakobwa bageze muri bane bamugaragiye . Bakaba bitegura gusabwa ,mu bijyanye n'umuco wa kinyarwanda . Habanza gusabwa no gutanga inkwano ,aba bakaba bari muri ubu bukwe bubanziriza ubundi bukwe bwo mu rusengero cyangwa se mu kiliziya.

Aba ni ababyinnyi b'injyana gakondo mu itorero rimwe, harimo umugabo w'intore uri guca umugara wabyinnye wasimbutse, hakabamo ndetse n'undi mugabo uri hano ku ruhande rw'iburyo nawe watararatse bigaragara ko yizihiwe, harimo n'abandi bana b'abakobwa inyuma hakaba hariyo itorero riri kubabyinira ndetse n'abari gukoma ingoma.

Aha ni ahantu bacuruzaga bakanakora ibikoresho by'ubugeni bakora uduseke twiza cyane . Ndi kuhabona ibiseke bifite ingano zitandukanye ,harimo ibiseke binini ndetse n'uduseke dutoya . Nkahabona inkoko, ndetse n'ibindi bikoresho bya kera bya kinyarwanda.

Aha hariho ibikoresho bitandukanye bya kinyarwanda. Ndi kuhabona umuvure, nkahabona agatanda hejuru y'umuvure, hariho n'ingobyi bahekamo abarwayi irimo injishi. Ndi kuhabona ingata, nkahabona igisabo, nkahabona isekuru irimo umuhinindi. Ndi kuhabona imihini itandukanye, nkahabona udukezo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya kinyarwanda.

Uyu ni umugozi wa mudasobwa ucometse neza, ako gasanduku ni agasitabirizateri gatuma umuriro utaba mwinshi, ngo ube wakwangiriza imashini ndetse kanoherereza umuriro muri izo nsinga, biragaragara yuko iyi mashini umuntu uyikoresha ari hano mu biro, kandi uyu mugozi ukaba uteretse hasi. Si byiza gutereka aka kantu hasi kwisima.

Iki ni igikoresho babikamo ibintu bitandukanye biribwa, ushobora kubikamo ibirayi, ushobora kubikamo inyanya, ushobora kubikamo imboga z'amoko agiye atandukanye. Aka kantu kakaba ari keza cyane, nawe nukabona uzakagure iwawe, kagira uruhare mu kubika ibintu neza, by'umwihariko ibintu biribwa.

Aha ni ku musigiti usengerwamo n'Abayisilamu , bigaragara y'uko uyu musigiti wubatswe kera , bitewe n'uko ukuzemo gakeya . Biragaragara y'uko uruzitiro rwawo rwasenyutse ndetse n'inzu ziwukikije zikaba zishaje cyane.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ry'ibanze rya Jaba, yubatswe ahantu kugira ngo ifashe abaturage, babaha serivisi zo kubavura byoroheje, hanyuma bitewe n'uko nta vuriro ry'ikigo nderabuzima riri hafi ahangaha. Inyuma ndi kuhabona igiti kirekire cy'umukindo, na cyo kikaba kiri mu bigize ubwiza bw'ahangaha, n'ubu busitani bwiza butoshye.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri ariko ishaje. Uruzitiro rwayo rwatangiye kwangirika, birasaba yuko barusana. Ndi kuhabona umwarimu, nkahabona ibyicungo n'abana bakeya baje kwiga kuri iri shuri. Iyi nyubako ikaba ikenewe kuvugururwa mu by'ukuri.

Aha ni kuri etaje hejuru mu nyubako ituzwamo imiryango myinshi cyane. Izi nyubako bakaba barazubatse mu Kinigi zigatuzwamo abatishoboye. Abantu bakaba bazishimira cyane kikaba kiririmo bimwe mu bikorwaremezo byatumye abantu babona Kinigi ari nziza cyane.

Aba ni abayobozi n'abaturage bose baje gutaha izi nyubako z'ibigo by'amashu. Ndi kuhabona abayobozi bagiye batandukanye, nkahabona abantu bambaye nk'aho ari inzego z'umutekano, nkahabona abaturage harimo abaporisi ndetse n'abayobozi batandukanye, baje gutaha ibi byumba by'inyubako z'ishuri.

Aha ni ku nyubako y'ibiro bya leta, ndi kuhabona amabendera abiri harimo ibendera ry'u Rwanda, hakabaho n'ibendera ry'umuryango w'ibihugu by'iburasirazuba, ndi kuhabona ubukarabiro bw'intoki ndetse nkanahabona, inyubako abayobozi bakoreramo.

Iyi ni inyubako ya etaje igeretse inshuro imwe gusa. Uko bigaragara ntabwo irarangira kubakwa. Bakaba bakiyikorera amasuku. Bakaba bakiyisiga amarangi neza. Bakaba ariko bari hafi kuyitaha. Iyi nyubako rero birashoboka yuko abantu baba barayubakiye kugira ngo bayituremo.

Iyi ni inyubako ya kiliziya yubatse neza ku buryo bwa kijyambere, ifite umusaraba mwiza munini kandi ubengerana ku gasongero kayo, ndetse no ku munara hakaba hariho undi musaraba. Ndi kuhabona uruvunganzoka rw'abantu benshi barimo kubisikana, bamwe bavuye mu misa imwe, abandi bagiye kwinjira muri misa ikurikiyeho.

aha ndi kuhabona imihanda y'ibitaka, nkahabona ibiti bidatoshye, nkahabona hirya ahantu hameze nko mu gishanga. Nkabona n'izindi nyubako zimeze nk'uruganda, birashoboka yuko aha haba ari uruganda rw'umuceri, bitewe n'uko kiriya gishanga bashobora kuba bahingamo umuceri, barangiza umusaruro uvuye muri iki gishanga bakawuzana muri uru ruganda, kugira ngo utunganwe nurangiza ujyanwe ku masoko.

Izi ni inkengero z'ikigo cy'amashuri, ndi kuhabona uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye. Imbere yarwo ndi kuhabona amabuye y'amakoro, ya yandi bita urutare. Hariho ubwatsi budatoshye bigaragara yuko ari mu gihe cy'izuba.

Aha hantu ni i Musanze ku nyubako ya polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Bahifashisha bagenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga bitandukanye, bakareba ko bitapfuye, bakareba ko bimeze neza nta kibazo bifite, barangiza bagatanga ibyangombwa by'uko byemerewe kugenda mu muhanda.

Iyi ni inyubako yubakiwe abaturage. Kikaba ari ikigo cy'amashuri cyubatswe neza ku buryo bugezweho bwa kijyambere, ku buryo bugerekeranye, aba ariko bakaba bataratangira kugikoresha ribona umucanga ndetse n'insinga ziciye hasi ikirere nacyo kirasa neza. Biragaragara yuko akazuba kari kuva aha hantu.

Izi ni inyubako z'ikigo cy'ishuri zitaratahwa neza, zirimo kubakwa ariko urabona ko zigeze igihe cyo kuba zatahwa baritegura kuba bazazinjiramo bakazigiramo abanyeshuri nibongera gufungura. Izi nyubako zifite amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'umweru, zikaba zubakishije amatafari ahiye, n'amabati atukura.

Aba ni abantu benshi cyane barimo guca ku kiraro cyo mu kirere, gihuza ahantu habiri ku misozi ibiri. Aha hantu bikaba bigaragara yuko hakunze kugira umwuzure w'amazi, akaba ariyo mpamvu bahubatse iki kiraro kugira ngo amazi naba yahuzuye abantu bazabone uko bakora ubuhahirane.

Aha ni mu busitani bwa kimwe mu bigo bya Leta, birimo amadarapo. Harimo idarapo rya Esita afurika, hakabamo idarapo ry'u Rwanda. Harimo ubusitani bwiza bumeze neza, buzengurutswe n'utuntu twubakishijwe amarangi y'umweru n'umukara. Harimo ibyatsi ndetse n'indabyo nziza cyane, biragaragara yuko iki kigo ba nyiracyo bakigirira isuku.

Aka ni agashami k'ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe gukurikirana ibijanye n'umuriro w'amashanyarazi ko muri Nyabihu, ndi kuhabona ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda rimeze neza rishyashya, ndi kuhabona umuhanda wa kaburimbo, ndi kuhabona n'ibiti inyuma byo mu ishyamba ryakuze neza cyane.

Iyi ni ifishi yo muri sako abantu buzuza bakeneye kubikuza amafaranga, ndabona yujuje neza ni sako yo mu Murenge wa Kinigiyitwa abihuta, ikaba yarujujwe n'umuntu witwa Mukandayisenga Mari garase, ufite ziriya nimero ku itariki cumi nesheshatu z'ukwa kabiri, umwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, ashaka kubikuza ibihumbi magana atanu.

Iyi ni inyubako y’ibiro by’akarere ka Burera, byubatswe neza cyane ku buryo bwa kijyambere, biragaragara yuko bari bafite ibiro bishaje, bahitamo kubaka ibi biro by’aka karere ka Burera. Abaturage bakaba barishimiye iki gikorwa remezo bahawe ku buryo butangaje cyane.

Aha ni ku nyubako y'ikigo cya leta, ndi kuhabona umuntu ushinzwe umutekano ,uhagaze kuri bariyeri kugira ngo aze kubanza kugenzura abantu binjiye muri iki kigo, bataba bafite ibintu bitandukanye byahungabanya umutekano.

izi ni inyubako zigeretse gatatu, zubatswe ahantu ku muhanda w'umukara wa kaburimbo. Ni ukuvuga ngo izi nyubako zishobora kuba zarubatswe nk'umudugudu w'icyitegererezo, abantu bakaba bahatuye. Aha hantu ndakeka yuko byashoboka ko ari mu Kinigi, mu Mudugudu w'icyitegererezo.

Aha ni mu biro by'umuyobozi ndi kuhabona mudasobwa nka bona suri iyi mudasobwa ikoresha nkahabona na cya gikoresho bakoresha bari kwepurima amaraporo atandukanye, nkahabona n'ahantu harambitse impapuro birashoboka ko zaba ari raporo, ndikuhabona n'imigozi myinshi itwara umuriro w'amashanyarazi, wo gukoresha haba kuri epurimante haba no kuri iyi mudasobwa.

Iki ni ikiraro cyubatswe ku buryo bwa kijyambere gikomeye cyane. Cyubatswe ahantu ku mugezi bigaragara yuko, uyu mugezi wakundaga kuzura ugasenya ikiraro cyari kihasanzwe. Ikaba ariyo mpamvu bahisemo kuhubaka iki kiraro.

Izi ni inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho, zisize amarangi y'umweru, ubona ko zisa neza. Hariho abashinzwe umutekano, hariho n'abandi baturage basanzwe, nkahabona imodoka ndetse n'ubusitani bwiza cyane, iki kikaba ari ikigo gikomeye cyane.

Aha ni mu kigo cy'amashuri gifite ibyumba by'amashuri bishyashya byubatse ku buryo bukomeye kandi bwa kijyambere, bafite ubusitani bwiza butoshye busa n'icyatsi, bafite ndetse n'ibindi biti by'inganzamarumbo by'isipuri ndetse n'iby'intusi, hakaba harimo n'abanyeshuri ndetse n'abarimu bari kugenda aha hantu muri iki kigo.

Aha aba bantu batandukanye, ndi kubona ari abayobozi baje gutaha iki kiraro gihuza imisozi ibiri, mu rwego rwo koroshya ubuhahirane. Ndi kubona bose bambaye udupfukamunwa birashoboka ko hari muri kovide cumi n'icyenda.

Aha ni mu kigo cy'amashuri, ku kibuga cy'umukino w'intoki, barimo gukina ni amakipe y'abakobwa, ari guhatana, harimo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, barimo gufana abakobwa babo, bashiki babo, kugira ngo barebe niba baratsinda, uko bigaragara umukobwa umwe yashatse kunaga mu nkangara, ariko mugenzi we wambaye umwenda w'icyatsi, akaba ashaka kumuzibira.

Iyi ni inyubako y'urusengero rwubatse neza cyane . Bigaragara yuko hariho n'abantu baje gusenga bahagaze hano muri parikingi urabona ko harimo n'imodoka z'abantu baje gusenga .Hariho n'abandi bantu bakeya barimo gutaha.

Uyu ni umuhanda w'ibitaka uciye ahantu ku kigo cy'amashuri .Biragaragara yuko aya mashuri yubatswe vuba ndi kubona abagore benshi cyane bahagaze muri uyu muhanda birashoboka yuko baje mu nama y'ababyeyi kuri iki kigo cy'ishuri.

Aha ni ahantu barimo kubakamo umudugudu wo gutuzwamo abantu batishoboye, izi nyubako zikaba zikunze kubakirwa abantu bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, abahuye n'ibiza kugira ngo bazicumbikemo izi nyubako zikaba zicumbikira imiryango ibiri.

Aha ni ku nyubako y'ibiro bya leta, ndi kuhabona abantu batandukanye baje gushaka serivise, harimo abicaye hasi, ndetse n'uyu mukobwa wakenyeye ishati ye, uyu mugabo wambaye agakoti karimo amabara y'umukara n'umweru, ndetse n'umugore uhetse umwana akaba yitandiye akenda k'umweru.

Izi ni inyubako zigezweho z'ikigo cy'amashuri bigaragara yuko kitari cyatahwa, iyi nyubako ikaba igeretse gatatu ,ikaba ifite n'izindi nyubako ku ruhande ziyikikije, iyi nyubako yubatse neza urabona ko aha hantu hafite isuku, aha hantu abana bazahiga bazahakura ubumenyi butandukanye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo wambukiranya ukajya hirya kuri kiriya kigo gikomeye cyubatswe n'inzu igeretse kenshi, iruhande kuri geti hakaba hariho aka kazu kaba karimo umuntu ushinzwe guha ikaze abaje bagana iki kigo gikomeye cyane.

Aha ni mu nyubako z'ikigo nderabuzima cyubatswe cyera, ndi kuhabona inzu zikuze, harimo n'inzu y'amategura, hakaba harimo n'umuntu wikoreye agafuka, bigaragara ko n'ubusitani bwo mur'iki kigo nderabuzima, bwashaje ndetse n'imihanda yacyo ikaba yarangiritse.

Aha ni ku nyubako yo ku kigo nderabuzima cyo mu Rwankeri, kikaba giherereye mu karere ka Nyabihu, gitanga serivisi zitandukanye zirimo kuvura abantu zirimo kuboneza urubyaro, zirimo no gutanga imiti haba ku baturage, ndetse n'abandi bantu baje bagana iri vuriro.

Iki ni ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu hegereye umuhanda wa kaburimbo, ndi kubona n'ikibuga cy'umupira w'amaguru gishushanyijemo imirongo y'umweru. Iki kigo uko bigaragara cyubatse ahantu mu mug,i bitewe n'inyubako zigikikije, n'ibikorwaremezo birimo nk'umunara n'amashyamba, urabona ko hasa neza.

Aha ni ku nyubako zo mu mudugudu wubakiwe abantu batishoboye, bakaba barazubatse ku buryo inzu imwe ijyamo imiryango irenze umwe, hakaba hajyamo imiryango ibiri. Izi nyubako zirakomeye bitewe n'uko zubakishijwe amatafari y'umutuku kandi ahiye, zikaba zasakaje amabati meza akomeye cyane.

Aha ni mu bukwe, umusaza yageze aho arishima afata mvirope apfunyikamo impano ye, arangije ayihereza uwo musore wari waramurongoreye umukobwa we, muri ubu bukwe umusangiza w'amagambo biramutunguye, kubona umusaza afashe iki gipfunyiko akakibahereza.

Aha ni mu nteko y’abaturage, yitabiriwe n’abantu benshi ndetse n’umuyobozi ukomeye waje gusura aba baturage bitabiriye iyi nteko y’abaturage. Uyu mugore ufashe mikoro, birashoboka y’uko ari kubaza ikibazo cyangwa se akaba ari gutanga inyunganizi ku bintu bimaze kuvugwa.

Aba ni abantu benshi bari mu nama ahantu hanze bicaye ku ntebe. Umuyobozi akaba arimo gutanga ikiganiro, arimo kubasobanurira ibintu bitandukanye birimo gahunda za leta, birimo uburenganzira bwabo, birimo ndetse n'amabwiriza atandukanye aba yasohotse kugira ngo abaturage bayubahirize.

Aha ni mu rubanza ruri gucibwa n'abunzi rwabereye mu ruhame, uyu mugabo akaba ari kwisobanura ku byo arimo gushinjwa ,ndetse n'abunzi bakaba barimo kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye, kugira ngo abyisobanureho ni biba ngombwa abamushinja icyo cyaha bakimwemeze, cyangwa se bakimuhanagureho.u

Aha ni ahantu muri gare bategera imodoka zijya ahantu hatandukanye haparitsemo imodoka eshatu za sosiyete imwe itwara abantu n'ibintu, harimo umugabo inyuma y'iyi gare hakaba hariho umujyi uri ahantu mu musozi, hakaba hariho n'ishyamba rimeze neza cyane.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nk'inyuma ariko harimo n'amapikipiki atatu yose atwaye abantu babiri babiri, ni ukuvuga ko abantu bose berekeje ahantu hagiye hatandukanye.

Iki ni igikamyo cyagenewe gutwara amavuta afasha ibinyabiziga kugenda, kiyakura mu bihugu bitandukanye bicukurwamo peteroli, kikayazana mu Rwanda no mu bindi bihugu, kugira ngo babone uburyo bashyira muri sitasiyo, hanyuma bajye bahereza ibindi binyabiziga bijye bibona uko bitwara abagenzi.

Aha ni muri gare abantu batandukanye bategera imodoka, zijya ahantu hatandukanye. Ndi kubona abantu benshi bategereje imodoka, batondetse umurongo nyamara bakaba babuze imodoka zo gutega. Inyuma ndabona n'izindi nyubako, nkabona imashini zikora umuhanda. Aba bantu bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Iri ni igare rya ramuzini rirerire risanzwe ritwara abantu babiri bakicara ari babiri, ariko noneho kuri iyi nshuro batwayeho ibitebo birimo inyanya bavuye kugurisha inyanya, ibi bitebo birimo ubusa babizirikira kuri iyi gare hanyuma uyu mugabo urihagaze iruhande birashoboka yuko ariwe nyiraryo, akaba afite undi muntu ategereje bari kumwe.

Iyi ni imodoka ya dayihatsu ipakiyemo indobo nyinshi zirimo ibyayi bamaze gusoroma, bagiye kubijyana ahantu mu ruganda kugira ngo babitunganye bivemo icyayi kiza, nibarangiza babyohereze mu mahanga, abazungu nabo bage baranywa ku cyayi cy'u Rwanda.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi bagiye i Kigali n'ahandi hantu hatandukanye nini . Iyi bisi ikaba ari nziza , abantu benshi bakaba bayikunda bitewe n'uko imbere yayo intebe zayo ziba ari nziza cyane , uzicaramo ukumva umudendezo ni wose.

Aya ni amagare abiri igare rimwe rikaba ritwawe n'umugabo riziritseho igitebo n'umukoba icyo gitebo akaba yabanje kugishyira ku ngata. Irindi gare ritwawe n'umugore rikaba riziritseho udutebo tubiri aba bacuruzi bombi bakaba bashobora kuba bagemurara inyanya. Inyuma yabo hariho n'undi mukobwa wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'undi muntu ufite igare uri kuzirikaho imitwaro.

Aha ndi kuhabona muri gare, aho abantu bategera imodoka zijya ahantu hatandukanye. Haparitsemo iki kimodoka kinini cya bisi kitwa shirumuteto, ndetse n'umurongo w'abantu bashaka kukinjiramo. Kukinjiramo ubanza gukozaho ikarita amafaranga akavaho, yamara kuvaho ukabona kwinjiramo. Iki kimodoka harimo n'abantu bagenda bahagaze.

Aha ni muri gare mu mugi, ahantu bategera imodoka zijya ahantu hatandukanye, harimo imodoka eshatu ndi kubona n'imirongo y'abantu benshi, imodoka zose zirimo ziri gupakira abantu, harimo twa tuzu abagenzi bategereje imodoka bicaramo.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo mushyashya ndi kubonamo abanyonzi umunyonzi umwe yabuze umugenzi, undi munyonzi atwaye umugenzi wambaye agapira k'umukara. Harimo n'umumotari utwaye umugore umwe ndetse n'imbere yabo hariyo abandi banyonzi benshi bose babonye abakiriya.

Iyi ni ipikipiki itwaye abantu babiri, bari kugenda mu muhanda mwiza w'umukara. Ndi kubona n'inkengero z'uyu muhanda zubatse neza, hazengurutseho ibiti byiza cyane. Ndi kubona ibiti by'umukindo, nkabona imodoka ziparitse mu busitani bwiza cyane butoshye.

Aba ni abakanishi barimo gukanika iki kimodoka kinini cyane kigezweho gitwara abagenzi. Aba bantu barimo kuyikanika bishoboka yuko ifite ahantu yangiritse, bishoboka yuko ifite ubupfu butandukanye. Bakaba barimo kuyikanika kugira ngo yongere ikore, ijye mu muhanda itware abagenzi.

Aha ni ahantu haparikwa ibikamyo bitwara imizigo itandukanye, bigatwara ibicuruzwa bibikuye hanze bikabyambutsa imipaka, bikabijyana mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bikamyo ni bine bifite amabara atandukanye, harimo bibiri bisa n'ubururu ikindi kimwe kigasa n'icyatsi, ikindi kimwe kikaba gifite ibara ritukura.

Aha ni muri gare isanzwe itwara abantu ahantu hatandukanye ndi kuhabonamo uruvunganzoka rw'abantu benshi babuze imodoka zo gutega ngo bajye iyo bashaka kugenda harimo abantu batandukanye abagore, abagabo ,abakecuru ndetse n'abasaza nk'abonamo n'imodoka zisanzwe zidatwara abagenzi ku buryo bwa rusange.

Izi ni ipikipiki zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Uko mbibona zirimo guhabwa aba bantu, kugira ngo batangize umushinga wo kwamamaza ibinyabiziga, by'umwihariko amapikipiki akoresha umuriro w'amashanyarazi. Ndi kuhabona abantu benshi, aha bigaragara yuko byaba ari ku ruganda rukora izi pikipiki.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukorerwamo ubuhahirane bw’ibintu bitandukanye, harimo amakamyo menshi cyane atwaye ibicuruzwa, harimo n’akamodoka k’umuhondo kamwe kari kujya iyo amakamyo arimo guturuka. Aya makamyo akaba atwara ibicuruzwa bitandukanye, abivana mu bihugu bitandukanye, akabigeza no mu bindi bihugu bitandukanye.

Iri ni ishyirahamwe ry'abagore bishyize hamwe kugira ngo batinyurane, nibarangiza bagure izi moto cyangwa se izi pikipiki za rifani, zari zisanzwe zitwarwa n'abagore. Abagore mbere baritinyaga, ariko ubu leta y'u Rwanda ikaba yarabashishikarije gutinyuka, na bo bakajya bakora imyuga nk'iyi ngiyi ibyara amafaranga yakorwaga n'abagabo gusa.

Aha ni muri gare aho abantu bategera imodoka bajya ahantu hatandukanye, ndi kuhabona bisi zigeze muri ebyiri za shirumuteto izi bisi zikaba zitwara abantu benshi cyane, bamwe bicaye abandi bahagaze izi bisi kugirango zigutware, bisaba ko uba ufite ikarita warangiza ugakozaho, amafaranga akajyaho hanyuma ukabona kwinjira muri bisi, ikakugeza aho ushaka kugera hose.

Aha ni mu kibuga cy'umukino w'intoki by'umwihariko voreboro, ndikubona abakinnyi bazengurutse ku ruziga, bakaba bakikije umutoza arimo kubagira inama z'ibyo bakosora, kugira ngo batsinde uyu mukino barimo gukina.

Aha ni ikibuga cy’umukino wa vole. Urabona ko uyu mukinnyi wasimbutse, agiye gutera ikiro kugira ngo atsinde igitego. Ni ikipe y’igihugu y’u Rwanda, Amavubi y’umukino w’amaguru, iri gukinira muri sitade. Ni ikibuga bigaragara ko cyubatse neza ku buryo bwa kijyambere.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru cyubatse mu busitani bwiza butoshye, ndikuhabona ubwatsi bwiza cyane, inyuma yaho hakaba ibiti byiza bitoshye by'inganzamarumbo. Iki kibuga bakaba bahakinira imikino ibiri itandukanye: bahakinira basketi, bakanahakinira n'umukino wa vore.

Uyu ni umukinnyi wa tenisi amaze gutera umupira. Ndabona yambaye inkweto z'umweru, yambaye udusogisi turimo umutuku, yambaye ikabutura isa n'icyatsi n'agapira gasa na move. Amaze gutera umupira, ari mu kibuga cya tenisi ari gukina uyu mupira.

Aba ni abakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare, barimo kugera aho basoreza irushanwa, birashoboka ko bari bari mu myitozo, barangije umukinnyi uri imbere afata agacupa ke k'amazi bitewe no kwishima ko yari ahageze ari uwa mbere, agaha umufana we kugira ngo amusangize ibyishimo yahuye na byo.

Aha ni ahantu abasiganwa ku magare bahagurukira. Urabona ko hateguye neza. Haratatse, hariho abantu bambaye neza. Abakinnyi baritegura guhaguruka isaha iyo ari yo yose umusifuzi arahuha mu ifirimbi. Babanza kubara gatatu, barangiza bakirukanka, ubundi ubaye uwa mbere akaba ariwe wambikwa umwambaro w'umuhondo.

Aha ni kunyubako y'ikibuga cy'umupira w'intoki, ndikubona abakinnyi bose bifashe ku gatuza, bishoboka ko barimo kuririmba indirimbo y'igihugu, ndikubona abatoza, nkabona inshundura, nkabona n'abafana bakeya, baje gufana ikipe yabo bakunda.

Aba ni abantu baje gushyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Bakaba bambaye imyambaro y'igihugu cy'u Rwanda. Bakaba bafite ibicurangisho bitandukanye bifashisha bafana. Ariko uko mbibona ntabwo aba bari gufana umupira w'amaguru ahubwo baje kureba umupira w'intoki.

Uyu ni umukino wa hendiboro, uyu mukinnyi akaba agiye gutsinda igitego, yambaye inkweto z'umweru, yambaye ikabutura y'ubururu, ndetse n'umupira w'ubururu, ikaba ari ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu mukinnyi wa hendiboro, Uko bigaragara aracyari mutoya ni umujene.

Aha ni mu nyubako y'ikibuga cy'umupira w'intoki. Hakaba hari kuberamo umupira, hanyuma ndi kubona abafana bafite amabendera y'igihugu cy’u Rwanda, bakaba barimo gufana ikipe yabo bakunda. Biragaragara ko u Rwanda rwari rurimo gukina n'ikindi gihugu, abafana bakaba bishimiye intsinzi y'ikipe y'igihugu.

Aba ni abakinnyi bambaye amapantaro ndetse n'imipira bisa by'impuzankano ,ni abagabo bambaye nimero mirongo ine na karindwi, nimero mirongo icyenda bari kwishimira igitego bamaze gutsinda, harimo n'abafana barimo gufana, bari mu mahema harimo n'abandi bantu batandukanye mu kibuga cy'icyatsi ,aba bantu bashobora kuba bakina golufe.

Aba ni abakinnyi b'umukino w'intoki bari gukina. Ndi kubona abakinnyi babiri bagundaguranye, umwe ashaka gutsinda igitego umunyezamu nawe akaba ashaka kugarura iki gitego . Uyu mukino w'intoki ukaba ushimisha abantu benshi cyane ,ukaba ugira uruhare no mu gukomeza ingingo z'umuntu ukina uyu mukino.

Aba ni abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'umupira w'intoki b'u Rwanda b'abakobwa babiri, ndetse no ku myenda yabo y'ubururu n'umuhondo handitseho u Rwanda. Umwe yambaye nimero gatanu, undi yambaye nimero umunani. Aba bakinnyi bombi uko ari babiri bari kugirwa inama n'umutoza wabo, wambaye agapira k'icyatsi yanatebeje mu ipantaro ya kaki.

Aba ni abakinnyi barimo gukina umukino wo gusiganwa ku maguru b'abakobwa. Bigaragara yuko bari muri sitade ariko itarimo abantu. Urabona ko bose ari bwo bagitangira kwirukanka, ariko uyu mukinnyi w'umukara bikaba bigaragara yuko ariwe ushobora kuza kubanesha, bitewe n'uko afite imbaraga nyinshi cyane.

Uyu ni umuzungu utwaye igare, wambaye impuzankano igizwe n'agapira k'umuhondo, ndetse n'agakabutura k'ubururu, akaba yambaye inkweto zisanzwe zikoreshwa mu mukino wo gutwara amagare, yambaye n'ingofero ndetse n'amadarubindi, uyu muzungu biragaragara yuko ashobora kuba ari umukinnyi wo gusiganwa ku magare.

Iyi ni ikipe y’igihugu cy’u Rwanda y’abagore ikina umukino w’intoki. Barimo kuganira mu gihe cy’ikiruhuko kugira ngo umutoza ababwire amabwiriza y’ibyo bakoze nabi baze kubikosora. Intego nyamukuru bafite ni uko bashaka gutahukana intsinzi mu gihugu cy’u Rwanda.

Aba ni abakinnyi bari gukina umukino w'intoki. Urabona ko uriya musore wasimbutse wambaye impuzankano y'umukara n'umweru, yafashe umupira ashaka gutsinda igitego. Umuzamu akaba yitegura kugarura iki gitego kugira ngo atagitsinda. Harimo n'abantu babiri bashaka kumuzibira kugira ngo adatsinda iki gitego.

Aha ni ahantu hari kubera umukino, wo gusiganwa ku magare, abona n'abakinnyi benshi b'umukino wo gusiganwa ku magare, ukabona n'abaturage bishimiye aba bantu bambaye neza, bakenyeye bashanshije, baje gufana, aba bakinnyi b'umukino w'amagare, uyu mukino ukaba ukunzwe cyane mu rwanda.

Uyu ni umudamu ukina umukino wo gusimbuka, aha yari amaze gusimbuka, agwa hasi ariko biragaragara yuko arimo kwiramira, yari amaze gusimbuka metero esheshatu, cyangwa se metero eshanu; abadamu baba bakomeye bitewe no gukina uyu mukino wo gusimbuka.

Iyi ni inyubako ya stade Amahoro iherereye i Kigali. Yafashwe nyuma y'aho ivuguruwe neza, ikubakwa neza. Ni inyubako bigaragara ko nta bantu barimo, nta bakinnyi barimo, bigaragaza yuko nta mupira urimo kuberamo, nta bafana ni intebe gusa nta bantu bicayemo.

Aha hari hari kuba isiganwa ryo ku magare, abaturage bishimira umukinnyi w'Umunyarwanda wambaye nimero mirongwitatu na gatanu, ndetse n'imyambaro y'ubururu n'umuhondo n'izuba bigaragaza yuko ari ibirango by'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, abaturage bose bamushagaye baramwishimiye, ndetse harimo n'umugore umwe uri kumukomera amashyi.

Aha ni umukino w'umukino w'intoki witwa basiketibolobarimo gukina. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikaba iri gukina n'indi kipe ya Mozambique. Uyu mukinnyi w'inzobe wa Mozambique afasha umupira arimo gucenga, ariko bigaragara ko n'umukinnyi w'u Rwanda ari kumwirukankaho kugira ngo amubuze gutsinda amanota.

Uyu ni umukinnyi ukina umukino wo kugendera ku nkweto zifite amapine akaba yatandaraje cyane amaguru n'amaboko. Biragaragara cyane ko uyu ari umwana mutoya wagororotse, bitewe no gukina uyu mukino wo kugendera ku nkweto zifite amapine.

Uyu ni umukinnyi w'umukino wo gusiganwa ku maguru, akaba ari umukobwa w'umwirabura ukina uyu mukino kugira ngo ahatane n'abandi. Bararushanwa ubaye uwa mbere akaba ariwe uhembwa, n'ubaye uwa kabiri agahembwa, ariko ibihembo byabo bikaba bitandukanye.

Aba ni abakinnyi b'umupira w'intoki, bakaba buzuye ikipe. Bambaye imyambaro y'umuhondo, bose bambaye inkweto ariko bahuriye kuba bambaye n'amasogisi y'umweru. Uko mbibona iyi ni ikipe y'abantu bakiri batoya. Nkurikije imyaka yabo, ikaba itarenze mirongo itatu.

Aha ni mu kibuga hari kuberamo umukino w'intoki, w'abakobwa, ndi kubona umukinnyi umwe yagiye gutanga pase, kuri mugenzi we, nkabona n'umusifuzi arimo kureba ko nta mukinnyi urakorera ikosa mugenzi we, kugira ngo ahite asifura ko habaye ikosa.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'intoki cyubakiwe neza ku buryo bwa kijyambere, gishushanyijemo neza n'amabara atandukanye, harimo abakinnyi bari gukina umupira w'intoki, harimo n'abafana bakeya ugereranyije, baje gufana aba bakinnyi bari gukina umupira w'intoki.

Aha ni mu kiyaga cya Kivu harimo abakinnyi bari gukina umukino wo koga bakaba barimo gusiganwa, harimo abasifuzi babiri barimo kubarebera uburyo barimo gusiganwa, hariho ndetse n'ibyuma bitangira abantu batazi koga kuba barenga ahantu hatandukanye, harimo n'ubwato hirya burimo kugendamo abantu babiri.

Aha ni ku kibuga cy'umukino w'intoki. Ndi kubona harimo amakipe abiri ari kuva mu kiruhuko. Uko mbibona bashobora kuba batari gukina umukino, ahubwo bakaba bibereye mu myitozo. Ndi kuhabona abantu bambaye imyambaro idasa, ndi kuhabona abantu basa naho baje kwishimisha gusa.

Iyi n'inyubako y'ikibuga cy'umupira, w'amaguru ndikubona, abafana baje kureba umupira, no gufana amakipe bakunda, ndikuhabona abashinzwe umutekano, nkabona n'abandi bantu bambaye impuzankano zitandukanye, bashinzwe imirimo inyuranye.

Uyu n'umupira w'intoki abantu bakina, ibigaragara uyu mupira nta mwuka urimo uhagije, ibigaragara uyu mupira ntabwo bararangiza kuwukora neza, bitewe nuko udasize amarangi basanzwe basiga uyu mupira.

Uyu ni umuhanzi urimo kuririmbira abantu benshi cyane muri sitade. Biragaragara yuko iki gitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane. Uyu muhanzi akaba arimo kuririmba neza, abantu bamuri inyuma bakaba bishimye cyane. Ndetse n'uyu muhanzi akaba yishimiye kuririmbira aba bantu.

Aha ni mu kibuga cy' umupira harimo ubwatsi bwiza, busa n' icyatsi, hakaba harimo umurongo w' umweru ndetse n' utuzamu dutoya dufite urucundura inyuma, hakaba hazitije senyenge, ndetse hakaba hariho n' ishyamba ryiza ritoshye biragaragara yuko aha hantu bahafashe neza.

Iyi ngiyi ni pisine yo muri hoteli. Hariho udutebe abantu bari koga baba bicayemo. Amazi yo muri pisine akaba asa neza, nta muntu n’umwe uhari. Biragaragara yuko akazuba karimo kuva. Hariho n’ishyamba, hariho n’akazu abantu bicaramo bategereje koga, cyangwa se n’abarangije koga bari kuruhuka.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo wubatswe ahantu mu giturage. Iki ni igikorwa remezo abantu benshi barimo kwishimira cyane. Urabona ko harimo n'abagenzi barimo gutembera muri uyu muhanda, baba bagenda ndetse n'abagaruka, harimo urujya n'uruza. Ndi kuhabona ibiti byiza by'inganzamarumbo, ndi kuhabona ahantu hahinze urutoki kuri uyu muhanda, nkabona n'igipangu cyo abantu batuyemo.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, wambukiranya ahantu mu rusisiro rutuwemo n'abantu batandukanye. Ndi kuhabona ibipangu, nkahabona intoki ,nkahabona n'izindi nzitiro zimeze neza. Uyu muhanda ukaba urimo kunyuramo umuntu umwe utwaye ipikipiki, ndetse n'undi mugabo uri gusunika igare.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'abanyamaguru batandukanye bari ku mpande zombi zawo. Ndi kuhabona inzu zikikije uyu muhanda, nkabona abagenzi bari kugenda n'amaguru, nkabona n'uyu muhanda n'imirongo ishushanyijeho, ndetse n'ibirango bitandukanye bigizwe n'amabara y'umukara n'umweru.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'abagenzi batandukanye, ndi kubonamo abagore babiri bari kubisikana, umwe ari kugenda, undi akagaruka harimo n'akana bajyanye ku ishuri kambaye iniforume n'udukweto, ndetse n'udusogisi turimo ubururu n'utundi tubara tw'umuhondo. Uyu muhanda ikigaragara cyo bawukubuye, urasa neza ni ahantu hafite isuku.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo w'umukara abantu bakorewe, kugira ngo woroshye ubuhahirane ndi kubona umugenzi uri gutwara abagenzi, ariko akaba adafite umuntu, atwaye igare. Ndi kubona n'abandi bantu bari kugenda n'ibirenge, ibiti byiza ndetse n'ibyapa bitandukanye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, imirongo zawo zatangiye gusiba ,ndi kuhabona iruhande rwabo ,hariho inzu z'ubucuruzi . Birashoboka yuko ari amabutiki acuruza ibintu bitandukanye ariko bitewe n'uko bafite umunzani umanitse ku nkingi z'iyo nzu bakaba bacuruza n'ibintu by'imyaka.